Inyubako zigeretse z'ibitaro bya Vunga zisakajwe amabati y'umutuku, ziteye amarangi y'umuhondo, imbere hari akabaraza gatoya n'ubusitani hari imbuga y'amapave, ku mpande hari ihema ry'umweru, inyuma hari umuhanda uhazengurutse, inyuma hari urutoki ruri impande y'umugezi , hakurya hari amazu ari ku murongo y'umudugudu.

Icyapa cy'umweru cyanditseho Ibitaro bya Ruhengeri, giteye ku cyuma kinini, iruhande rw'uruzitiro rukozwe mu byuma, hagati harimo inkingi zubakishijwe amatafari, inyuma hari igiti kinini kirekire n'ibindi biti bigufiya biyumbaje.

Abantu batanu, abagabo batatu n'abagore babiri. Abagabo babiri bambaye amataburiya, undi mugabo umwe yambaye i jacketi. Inyuma yabo hari igikuta cyanditseho hopital Nemba Iteye irange ry'umuhondo, hejuru hubakishijwe amatafari adahomye. Hari imiryango ibiri ikinze. Inyuma y'abo bantu hari intebe.

Inyubako iri kugaragara igice cyo hasi yubakishijwe amatafari ya ruriba, amadirishya n'inzugi birakinze imbere hariho ingazi ku ibaraza, imbuga yayo irimo ubusitani irimo igiti kitakuze neza.

Ibyatsi bitandukanye harimo ibisura, kameroni bishingiriye biri kurandaranda hejuru, hari intabire ihinzemo izindi mbuto zitandukanye.

Umurima ugizwe n'imitabo itandukanye wamezemo ibyatsi. Hasaruwemo ibishyimbo, hasandaguje ibiti baranduye. Imbere hari igiti cy'ikibonobono gifite amababi matoya, harimo n'amakoro.

Icyatsi cyo mu bwoko bw'isogo giteye ku biti byumye bishinze, iruhande rw'imbuga yaraye badaheruka guharura. Inyuma hari ibiti n'amabuye y'amakoro.

Igiti cy'avoka y'imbangurire, kiri kugaragaza amatabi yo hejuru, n'amababi y'icyatsi kijimye, harimo imiteja minini n'imitoya , n'utuyange dukeya, hasi handitse tekino sipake.

Ibyatsi bitandukanye, harimo inteja n'ibibonobono bikiri bitoya, byameze ahantu hatari ifumbire, bijya gutukura mo gakeya.

Isambu irimo ibyatsi bitandukanye n'ibihingwa harimo ibigori n'umuyogera ufite imisogwe hejuru, hasi handitse tekinosi pake.

Ibyatsi bitandukanye harimo icyitwa umuzibaziba hariho n'ikiri kurandaranda cyitwa ikidodoke, iruhande hari imbuga idaharuye iriho amakoro.

Imbuga irimo amakoro afite ingano zitandukanye, harimo amanini n'amatoya. Hamezemo ibyatsi by'amoko atandukanye, higanjemo icyatsi kimwe gikunda gukoreshwa mu buvuzi.

Ururabo ruteye mu kigunda hirya hari utwatsi tugufiya iruhande hasandaguje ibibabi by'inturusu, hafi yaho hari amakoro azengurutse mu gisambu.

Ibyatsi bitandukanye byameze mu mabuye y'amakoro, harimo icyitwa umutindori, gifite uruyange rw'umweru, harimo n'urwiri ruri kurandaranda hejuru, hasi handitse ngo sipake tekino.

Icyatsi gikoreshwa mu buvuzi gakondo hariho ibitonyanga bya kiguyeho. Iruhande rwacyo hari insina n'icyana cyayo, n'amakoma amwe yumye, n'irindi koma rinini ry'icyatsi.

Igisambu kirimo ibimera bitandukanye, ariko ikiganjemo ni icyo mu bwoko bw'igisura, kikaba gifatwa nk'uruboga, ariko kinakoreshwa mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda.